Iyi ni ifumbire mvaruganda. Ifumbire mvaruganda rero bayiteza ibihingwa bitandukanye:ibirayi, ibigori, ibishimbo kugira ngo byongere umusaruro ;niyo mpamvu bayita inyongeramusaruro.

Aha hari amatunda, ndetse harimo n'ifi mumafi hariho urunyanya bivuze ngo ibi byose nibyubaka umubiri nibiririnda indwara.

Ibirayi bya kinigi bihingwaga mu Karere ka Musanze mu Murenge wa Kinigi n'Umurenge wa Musanze, babihingishagara ifumbire y'imvaruganda n'ifumbire y'ibishingwe n'imborera ndetse bakababitera mu butaka bwiza.

Iki ni igipapayi cyera ga mu karere ka Gakenke ndetse no mu bundi burere butandukanye mu gihugu cacu c'u Rwanda .Ariko muri Musanze kubera ko hakonjaga, ntago wapfa kukibona.

Aha bacuruza inyanya, uruseda, intoryi n'izindi mboga zitandukanye nk'uko mubireba kuri aya meza imbere yanjye.

Aya ni amaterasi amaterasi ni uburyo bwo guhinga, abantu bahinga bagenda baca imiringoti kugira ngo ubutata baburinde isuri.

Igitoki ni igihingwa ciza bakiryaga mu buryo bitandukanye bacengagamo inzoga, bakiryagamo imineke, bakagiteka kandi gihingishwaga ifumbire y'imborera ariko hari n'abashiragamo ifumbire ry'imvaruganda.

Izi ni inkoko: hari inkokokazi ndetse n'isake. Ihagaze iburyo n'isake imwe ifite ibirokoroko by'umutuku indi n'inkokokazi imwe icinyiye. Rero igisake n'ikigabo ndetse inkokazi n'ikigore

Abaturage bari mu muganda wo gutera igiti kandi nyuma yo gutera igiti, barifotozaga kugira ngo bagaragaze ibyo bakoze kugira ngo n'ubibona uwo ari we wese, amenye yuko bakoze umuganda. Aba rero barabirangije, ni yo mpamvu barimo kwifotoza.

Uyu mugore ahagaze mu bishyimbo ,ari gusoma umushogoro go kurya n'imboga ziryohaga zikomoka ku bishyimbo.

Izi ni karoti ,roti rero ni zirirwa mu bwoko bw'imboga ,ushobora kurya mu buryo butandukanye ,ushobora kuzirya zihiye ,abandi baziryaga mu buryo bwasira wa sarade ndavuga kuzirya ari mbisi .

Ibi bihingwa uyu mugabo afashe n'ibigori .Ibigori ba biryaga ari bibisi, babiryaga byumye, babiryagamo igikoma, bakabiryamo umutsima no kubirya mu bundi buryo butandukanye.

Ni igihingwa c'ikigori, ibigori rero ibinyampeke biryohaga cane, bakoragamo kawunga ndetse bagashigishamo n'igikoma.

Izi ni imboga z'amashu. Imboga z'amashu rero baziryaga mu buryo butandukanye. Hari izo barya ari mbisi, izindi bakazirya zihiye bazitetse mu nkono. Ubwo rero zibarirwa mu bwoko bw'imboga.

Uyu mugore ari guhinga ibirayi. Akoresha isuka kandi urabona y'uko ahingaga yishimye, anezerewe kugira ngo azasarure byinshi.

Iki n'igihingwa cyitwa ibishimbo, gikunze kwera kandi kikaryoha, kandi kibonekwa mu binyamisogwe. Babikoramo isose.

Ingurube ni itungo rigezweho, ibi ni ibibwaguro byayo biri kurwana biri konka, uko yabibyaye byose birimo kurwanira ku mabere. Ubu rero nibimara konka birakina kandi na yo nimara kubyonsa irahaguruka.

Iyi ni inka ya kijambere, ya kizungu iri mu kiraro ni ho ibyagiye, kandi murayibona yuko imeze neza.

Iri ni itungo ry'urukwavu. Urukwavu rero ni itungo bororeraga mu ikiruduru cyangwa se icyo twitaga ikibuti rugatanga ifumbire n'inyama.

Iyi ni inyoni iguruka, iri mu ubwoko bw'inyoni bubereye ijisho, kuko ba mukerarugendo barayisuraga ikabanezeza.

Iyi nyamaswa ni imbogo, ibaga mu ishyamba, irisha ibyatsi ntibyiryaga, kandi imeze nk'inka urebye nabi ushobora kuyitiranya.